Imashini igaragaza impuzandengo y'ibikorwa n'imihigo byabaye mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane, bibiri na makumyabiri na gatanu harimo n'abantu bari kubagezwaho uko iyo mihigo yagenze harimo abapoliki n'abandi bantu batandukanye.

Abagabo batatu bambaye imyenda ya siporo yose iri mu ibara ry'ubururu n'amasogisi maremare agera mu mavi, inyuma yabo hari amaterasi n'ibiti hakurya umusozi.

Umuhanda muremure w'igitaka. Ukikijwe n'ingo iburyo n'ibumoso n'imirima iteyemo ibitoki n'ibigori. Urimo, umubyeyi uhetse umwana mu mugongo, wambaye ipantaro y'ubururu n'ishati y'umweru, n'undi mwana afashe umutwe.